Umukiriya wa banki afite ama apurikasiyo atandukanye ashobora kumufasha kumenya ikoreshwa ry'amafaranga, nk'aho iyo yabikuje agenda akareba ishusho igaragaza uko amafaranga yabikujwe yakoreshejwe, ayabikijwe ndetse no mu zindi nzira zitandukanye bitewe n'icyo yakoreye kuri konte ye.

Muri za butike zicuruza habamo ibicuruzwa bitandukanye. Harimo amakanzu, harimo udutambaro, harimo amasaha, udukufi, imitako ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ku bufatanye na banki nkuru y'igihugu y'u Rwanda, dufite inoti zitandukanye, ariko cyane cyane inote y'ibihumbi bibiri, igaragaza ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda, aho twavugamo imisozi iri mu kiyaga cya Kivu ndetse n'ubwiza bw'icyo kiyaga, ikagira n'agaseke kari kuri iyo note.

Amaduka acuruza amata, abanyagihugu bahagana bakeneye amata, cyane cyane aya Nyanza Milk Industries Limited y'inshyushyu zishobora guhabwa abana ndetse n'abakuru kuko zifite intungamubiri zitandukanye.

Ibiro bivungishirizwaho amafaranga bitandukanye, abakiriya bafite amafaranga yaba amanyarwanda cyangwa amanyamahanga babigana bagamije kuvunjisha, haba kugura ndetse no kugurisha, hari bitandukanye byashyizweho bitewe n'ubwoko bw'amafaranga nk'Amayero, amadorari, amashiringi n'andi atandukanye.

Mu mahoteri hakorerwa ibikorwa bitandukanye, harimo kwakira ibirori, kwakira ubukwe, gukoresha buradishowa, kubona amacumbi yo kuraramo, ibikorwa bigendanye n'imikino ndetse n'imyidagaduro bitandukanye, abakunda imipira bashobora no kuyireberamo, abakunda kuryoshya, abakunda kujya mu mazi bakayakoresha.

Ku biro bya kampan z'ubwishingizi hatangizwa amaserivisi atandukanye, aho ushobora kwishingira umwana, aho ushobora kwishingira ishuri, aho ushobora kwishingira ibigendanye no kuzigamira izabukuru ndetse n'ibindi.

Mu masoko abaturage bagura ndetse n'abagurisha bahahurira kugira ngo bahinduranye ibintu n'amafaranga. Aho abaturage bashobora gusanga mu masoko atandukanye ubwoko bw'ibiribwa ibijumba, amaronji, imineke, imyembe ndetse n'ibindi bitandukanye.

Twubaka inzu tugamije ibintu bitandukanye, kuzibamo ariko cyane cyane twubaka inzu tugamije no gutegura izo gukodesha, hano dufite inzu ifite ibyumba bine, ikagira ubwogero, ikagira aho kurara, aho umuntu ayikodesha ibihumbi magana arindwi by'amanyarwanda ku kwezi.

Ababyeyi twamaze gutinyuka tumenya akamaro ko kwizigamira tuzigamira ejo hazaza hacu, aho tubikora twifashishije uburyo bwo kuzigama muri ejo heza kugira ngo ejo tuzagire amasaziro meza kuko tuzaba twariteganyirije.

Muri RSSB abaturage ndetse n'abaturarwanda bashobora kuzigamira amasaziro yabo aho biteganyiriza, bagateganyiriza izabukuru ari wo musanzu witwa ejo heza, buri wese ubishoboye atanga umusanzu we bitewe n'ubushobozi afite.